Mu mashuri y'nshuke hari abana benshi cyane bigaragare ko baje kwiga bari kumwe n' abarezi babo barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abana benshi harimo abakobwa n'abahungu biga mw'ishuri ry'inshuke bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru bari gukina bishimye.

Igishushanyo k'ikarita y'u Rwanda, aho cyifashishwa abana b'inshuke bari kwiga intara zigize igihugu cy'u Rwanda, harimo Uburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse na Kigali.

Ibyicungo ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza bigatuma abana bakunda ishuri ndetse bagahugira mu dukino tugiye dutandukanya tubakora mu bwenge ndetse no mu mikurire.

Mu mashuri y'inshuke aho bagira ibikoresho byinshi bibafasha kwiga harimo n'ibipupe, kimwe gisa umuhondo, ubururu na oranje kugira ngo babashe kwiga neza.

Amashuri y'incuke ashushanyijeho ibintu byinshi byifashishwa kugira ngo abana bagire ubumenyi buhambaye, hanze hari n'ubusitani bwiza bakiniramo kugirango ngo babashe kwisanzura.

Mu ishuri ry'incuke bafite ibikoresho byinshi cyane bibafasha kwigisha abana b'incuke isahani y'umweru iriho inyanya eshatu zisa move, icyatsi, ubururu ,n'umutuku byifashishwa mu kwigisha abana kugirango bagire ubumenyi buzira umuze.

Ikigo cyigishirizwa abana b'incuke, gifite amashuri menshi kandi meza, yubakije amatafari ahiye, yubakishi n'amabati y'ubururu, hanze hari ibyicungo, bicungiraho kugira ngo bishime.

Mu kigo cy'amashuri abanza harimo amashuri menshi yubakishije amatafari ahiye hasizemo irange ry'umuhondo, hanze hariho intebe zo kwicaraho n'ahantu basiga ibikapu bazanyemo amakaye.

Mu mashuri abanza harimo abanyeshuri benshi cyane, harimo abakobwa n'abahungu n'ababyeyi babo baje kureba imyigire y'abana babo, hari umwana uhagaze imbere uri kubasomera inkuru.

Rimwe mu mashuri abanza haragaragara inyubako nziza cyane zubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati asa ubururu, ubona ko hanze y'amashuri hari abantu bahahagaze.

Mu kigo cy'amashuri abanza harimo amashuri meza yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati y'ubururu n'inzugi z'ubururu aho abanyeshuri bahigira bakahakura ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo.

Icyapa kinini cy'umweru cyanditseho uburezi buzira inenge mu ibara ry'umukara n'andi magambo menshi mada meri intanashono sukuru kompuregisi mu ibara ry'ubururu, hari n'ikindi kikizeru cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza nkuko biri kugaragara hano ku kabati, uri kubona ko gafite utwumba twinshi, ku ruhande hari kugaragara indobo nini ndetse n'intoya n'ubundi bumeze nk'ubusahane burimo amabara agiye atandukanye, akaba ari bimwe mu bikoresho bifasha abana kwiga amabara.

Mu kigo cy'amashuri abanza, harimo amashuri menshi cyane kandi meza n'abanyeshuri, bari mu myitozo ngororamubiri, hari umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbere yabo, uri kubatoza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye birimo kereyo, gome, imakasi, amakureri ndetse na taye kereyo ni bimwe mu bifasha abanyeshuri mu mashuri abanza kwiga neza ndetse bagakora imyitozo igiye itandukanye.

Mu mashuri abanza harimo ibitabo byinshi, abana bifashisha bari kwiga, bifite amabara atandukanye. Harimo: ubururu, umuhondo, icyatsi, umutuku na orange. Harimo n'umuntu w'igitsina gabo uri kurambura igitabo.

Bimwe mu bifasha abanyeshuri bo mu mashuri abanza kwiga ndetse bagasobanukirwa ibyo biga bizwi nk'ibishushanyo nk'uko iki gishushanyo kigaragara, hano hicayeho umwana w'umukobwa uri kwituma impande y'umugezi bikaba ari bimwe mu byangiza ibidukikije ndetse n'amazi akoreshwa mu mago bikaba ari ikintu kibi cyane.

Icyumba cy'amashuri abanza harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa bari kwiga, harimo imibare, imitako itatse ku nzu ndetse n'ibishushanyo bitandukanye.

Mu mashuri abanza bafite amashuri meza cyane, yubakisha amatafari ahiye, amabati y'ubururu n'amadirishya n'inzugi by'ubururu, hanze hari kandagira ukarabe ifite indobo y'icyatsi n'akabase ka move, hanze hari imbuga nini cyane n'ubusitani bwiza.

Ahazwi nk'ahari amashuri abanza ,haragaragara amashuri meza cyane, hakaba hari n'idarapo ry'u Rwanda, hanze yayo hakaba hari ubusitani burimo ibiti ndetse n'indabyo.

Mu kigo cy'amashuri abanza yubakishije amabati y'ubururu n'inzugi z'ubururu, isize irange ry'umuhondo hanze hari ikibuga abana bakiniramo giteyemo indabo.

Mu mashuri abanza harimo abanyeshuri benshi cyane, harimo abakobwa n'abahungu, imbere yabo hari ikibazo cyanditseho isomo ry'imibare, bari kwiga kugira ngo bamenye bagire ubumenyi.

Mu ishuri aho higira abanyeshuri bo mu mashuri abanza, harimo ibikoresho bitandukanye intebe zisa, umutuku ameza asa umuhondo, hariho n'amakaye n'ibitabo n'ibindi bikoresho bifashisha biga.

Mu mashuri abanza, harimo abanyeshuri benshi cyane, igitsina gabo ,igitsina gore ndetse n'umwarimu uri kubigisha isomo ry'imibare, hari n'abana bamanitse akaboko bashaka kujya imbere, bagasubiza ikibazo mwarimu yabahaye.

Ibikoresho byinshi cyane bikoreshwa mu mirimo myinshi itandukanye harimo iby'ububaji, ubwubatsi, harimo imiyudo, urukero, n'ibindi bakoresha bafungura amaburo n'imikaro.

Mu kigo cy'amashuri abanza harimo amashuri menshi meza hari n'andi ari kubakwa ageretse kugira ngo abanyeshuri bajye biga bisanzuye, hanze hari ibiti ndetse n'ubusitani bwiza hari n'abanyeshuri bari kuza n'abari kuva kwiga.

Mu mashuri abanza haba hari ibitabo byinshi cyane, bifasha abana kwiga gusoma yaba ikinyarwanda ndetse n'icyongereza. Iyo baje kubitira bituma ubumenyi bwabo bwiyongera mu gusoma ikinyarwanda.

Mu mashuri yisumbuye, harimo abanyeshuri benshi cyane, harimo abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'ipantaro ya kake, hari n'abambaye imipira y'icyatsi bari gufata ifoto y'urwibutso.

Hanze hari abantu b'igitsina gore, umwe wicaye wambaye umupira wa orange, n'undi uhagaze wambaye amadarubindi n'ishati irimo uturongo tw'umweru n'ubururu, ufite indangururamajwi mu ntoki ze ari kuvuga.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, hicayemo abanyeshuri benshi cyane b'abakobwa, bambaye impuzankano y'umupira w'icyatsi n'ijipo y'icyatsi n'ishati y'umweru, bari ahantu hamwe, bagiye gusenga.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore bambaye amajiri y'icyatsi, bari mu ishuri bakoreramo ubumenyingiro, bari kureba uko ibikoresho bikoreshwa.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo abanyeshuri benshi cyane, abakobwa n'abahungu bambaye imipira itandukanye y'ubururu, icyatsi n'umweru, imbere yabo hahagaze abantu benshi hari n'abambaye impuzankano ya Polisi bari kubabwira, imbere yabo na none hari idarapo ry'u Rwanda.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, hari inzu nini cyane yubakishije amakaro n'amatafari ahiye, hanze hari abanyeshuri bambaye impuzankano y'umupira w'ubururu n'ijipo ya kake, imbere yabo hicaye abayobozi babo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu kigo cy'amashuri ya segonderi harimo abanyeshuri benshi biganjemo abahungu bambaye ikabutura ya kake n'ishati y'ubururu bwererutse hari na kandagira ukaraba ifite ikigega cy'ubururu n'indobo y'icyatsi bagiye gukaraba intoki.

Rimwe mu mashuri yigishirizwamo ikoranabuhanga hagaragara abanyeshuri bambaye ubupfukamunwa ndetse hari mashini imbere yabo ubona ko bari kwiga ndetse ubonako ari ibintu byabashishikaje kandi bakunze.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye hari igisharagati gisa umweru, kicayemo abanyeshuri ndetse n'abarezi n'ababyeyi benshi cyane, abanyeshuri bambaye imipira y'icyatsi bicaye ku ntebe z'umweru, biragaragara ko bagiye mu nama.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye kigamo abakobwa gusa harimo abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'ijipo y'ubururu bwijimye bari gufata ifoto y'urwibutso aho bari kumwe n'umuntu w'igitsina gore w'umuzungu.

Mu kigo cy'amashuri cya segonderi harimo abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, abambaye amajire y'icyatsi, umuhondo na oranje baje kureba ukuntu abanyeshuri biga niba hari n'ibikoresho byangiritse kugira ngo babise.

Mu mashuri yisumbuye, hari abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore, hari abambaye amajire asa icyatsi n'undi ufite impapuro na jenda mu ntoki ze biragaragara ko, baje kureba ibikorwa bikorerwa muri icyo kigo.

Mu mashuri yisumbuye harimo abantu benshi cyane igitsina gabo b'igitsina gore baje mu bushakashatsi kuri icyo kigo cy'amashuri kugira ngo babongererere ibikoresho bizabafasha mu bumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore n'umunyeshuri, biragaragara ko bari kumuha ibitabo, bizamufasha mu myigire y'iwe, inyuma ye hari ikigega cy'umukara gifata amazi.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo abanyeshuri benshi cyane, abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano y'ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro cyangwa ijipo ya kake, harimo n'umurezi wabo uri kugenda, harimo n'amashuri menshi cyane bigiramo hagati yabo hari ubusitani bwiza cyane.

Mu ishuri rya segonderi abana benshi harimo abahungu n'abakobwa, bahagaze mu busitani bwiza bambaye impuzankano y'ishati n'ijipo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu mashuri yisumbuye harimo abanyeshuri benshi cyane b'abakobwa, bigaragare ko bari mu cyumba cy'abakobwa, aho bari kwigishwa imyororokere y'abana b'abakobwa.

Mu mashuri yisumbuye, aho bakorera imyitozo ngiro, harimo abantu benshi, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amajire y'icyatsi n'umuhondo, bari kureba imyigishirize, niba n'ibikoresho bihari bihagije.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo abanyeshuri benshi abakobwa n'abahungu ndetse n'abandi bantu basanzwe, abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'ipantaro ya kake bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ahazwi nko ku ishuri ryisumbuye haragaragara abanyeshuri bicaye ahantu hamwe ari benshi cyane bambaye amashati y'imyeru ndetse hasi bambaye amajipo ndetse n'amapantaro ya kaki, hirya yabo hari umwarimu uhahagaze hagati.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye hari amashuri menshi cyane meza yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati y'umweru hanze hari ubusitani bwiza cyane burimo ndabyo ndetse n'abanyeshuri biga muri iki kigo.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, kiriho abanyeshuri benshi cyane, harimo abahungu n'abakobwa, harimo bambaye amashati y'mweru n'amajipo y'ubururu bwijimye n'abambaye imipira y'ubururu, biragaragara ko bari ku murongo, bari guhabwa amabwiriza.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, hari abantu benshi cyane b'igitsina gabo, bigaragare ko baje kugitera inkunga cyangwa gukora ubundi bushakashatsi, muri icyo kigo harimo amashuri menshi n'ubusitani bwiza buteyemo ibiti.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, harimo abanyeshuri benshi cyane, abakobwa n'abahungu bambaye impuzankan y'ishati y'umweru n'ipantaro cyangwa ijipo ya kake, hari umuntu w'igitsina gore uhagaze imbere yabo wambaye amadarubindi uri kubigisha.

Mu mashuri yisumbuye harimo abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, hari abambaye amajire y'icyatsi n'ay'umuhondo, bigaragare ko baje kureba imyigire yabo.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, harimo abanyeshuri benshi cyane, bambaye impuzankano y'umupira w'ubururu n'ipantaro ya kake, bari kugendera ku murongo ugororotse.

Mu kigo cya segonderi harimo amashuri yubakishije amatafari ahiye asize irange ry'umuhondo ageretse, hanze hari umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri gutembera.

Mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro cyangwa aya kaminuza harimo abanyeshuri benshi cyane bari kwiga n'intebe bicaraho zisa ubururu n'ameza.

Mu gipangu gishashemo amabuye azwi nk'amapave, haragaragara inyubako isize irangi ry'umweru ndetse n'imwe mu ndobo isa icyatsi izwi nk'aho bayishyiramo imyanda.

Igishushanyo cyiza cyane kiriho umugore uteruye umwana ubona ko bahuje urugwiro, hejuru yabo hakaba handitse Rwanda, ukabona ko ari kimwe mu bikorwa by'ubugeni ndetse bigaragaza ubuhanga bwinshi mu gushushanya.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyin ngiro ndetse n'aya kaminuza hari abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore bari muri salene cyane bigaragare ko baje guhugurwa imbere hari ameza ateretse amazi ari mu ducupa ya sosiyete y'Inyange.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, hamwe n'aya Kaminuza. Harimo abanyeshuri benshi bambaye imipira y'icyatsi, bari kwiga, hari n'abandi bafite amakayi, bari kwandika ibyo biga.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'aya kaminuza, hiciyemo abantu mu buryo bw'ikizeru, bari kuganira, hari abafite amakayi, bari gukorera mu itsinda bakungurana ibitekerezo.

Mu ishuri haragaragara abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza, imbere yaho hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ku ruhande hari n'undi wambaye itaburiya y'umweru n'abandi babagaragiye bicaye higanjemo abakuze ndetse n'abakiri bato.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'aya kaminuza harimo abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore bari mu mahugurwa kugira ngo basohokane ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo.

Kimwe mu kirango cyo muri kaminuza imwe mu Rwanda nkuko kiri kugaragara hano, kiri mu ishusho y'inyamaswa y'inyoni iri kuguruka, kikaba kiri ahantu hari ibara ry'icyatsi.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyigiro n'aya kaminuza harimo abanyeshuri benshi cyane bicaye, bambaye amataburiya y'umweru, bari kwandika, hari n'abandi bahagaze imbere yabo.

Ubugeni ni bimwe mu bikorwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, bikaba nk'uko biri kugaragara hano bikoze mu bitenge by'amabara agiye atandukanye, bukaba bukoze mu buryo ruziga.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro n'aya kaminuza harimo abanyeshuri benshi bicaye bari kwiga harimo intebe z'icyatsi, ni mu muryango wanditseho rimwe, R, zeru, karindwi.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'aya kaminuza harimo abanyeshuri benshi bafite mudasobwa bicaye ku ntebe biragaragara ko bari ku ikoranabuhanga bari kwiga kugira ngo bazagire ubumenyi bwiza.